Abantu batanu b'igitsina gore, baje gushaka amazi, ijerekani zabo ziri ku murongo, inyuma yabo hakaba hari ibiti. Ahantu bari harubakiye, kugira ngo hirindwe kwangirika k'ubutaka bwaho, kubera amazi.

Umuhanzi Israel Mbonyi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, arimo kugaburira umwana, ni muri gahunda yo gushishikariza ababyeyi ndetse n'abandi bantu bose gahunda yo kurwanya igwingira ry'abana.

Umwana uri ku ivomero, urimo kunywa amazi akoresheje ibiganza bye, yambaye ikabutura y'umutuku n'ishati iri mu mabara ya gisirikare. Hakaba hari n'indobo. Hakikujwe ahantu ari, n'ibyatsi, ibiti.

Abagabo n'abagore bari kumwe n'ushinzwe inzego z'umutekano, barimo gukora uturima tw'igikoni dufasha mu kugabanya igwingira ry'abana ndetse no kugabanya imirire mibi.

Umusore uryamye ku gitanda cy'abarwayi, urimo kuvurwa amenyo n'umuganga w'igitsina gore wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki mu biganza bye, akaba afite urushinge n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Umukobwa urimo guseka, amenyo ye ni umweru cyane, ayakorera isuku bifasha kwirinda imyanda yateza uburwayi bujyanye n'amenyo.

Umugabo uri mu kigero cy'abantu bakuze, yambaye ishati irimo uturongo, ateruye umwana w'inzobe, yambaye ishati nawe y'uturongo, ufite agakinisho mu ntoki, amazuru yabo akaba yegeranye.

Umugabo uri mu kigero cy'abantu bakuru, ubwanwa bwe n'umusatsi ni imvi, yambaye amarinete, arimo gusoma igitabo bikaba bifasha mu kwiyungura ubumenyi no guhorana amakuru agezweho.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya abandi barabagaragiye barimo gukoma amashyi, bari mu gikorwa cyo gutanga ibikoresho ku bantu bafite ubumuga butandukanye, inyuma yabo hari igiti.

Abantu babiri, bari aho bakorera imyitozo ngororamubiri, umwe arahagaze, undi arimo guterura ibyuma, bifasha mu gukomera kw'imikaya y'amaguru ndetse n'iy'amaboko, ukuguru kumwe kurapfukamye ukundi kurahinnye.

Umuntu w'igitsina gore w'umuganga, arimo kureba muri Mudasobwa, imbere ye hari impapuro n'ikaramu, arimo kwambara agapfukamunwa, ibiganza bye biriho uturindantoki.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ifasha mu kurambura imitsi y'umugongo n'iyo mu maguru. Akaboko kamwe kakaba gafasha mu kirenge cy'ukuguru, ukundi kuboko kukaba gufashe mu mugongo.